Akabari gacururizwamo inzoga zitandukanye, aho imiryango, inshuti n'abavandimwe, baza gusabanira no kugaragarizanya ibyishimo imiryango yabo.

Inyubako isizwe amarangi y'ubururu, icururizwamo ibinyobwa bitandukanye. Ubona ko higanjemo ibinyobwa bya buralirwa cyane cyane ibisembuye.

Inyubako nini ifite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi, icururizwamo ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye abantu bakahahurira bagasabana.

Akabari kagezweho, gacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, higanjemo ibisembuye n'ibidasembuye, ubona ko ari ahantu hagutse kandi heza.

Akabari kubatswe ku buryo bwa kijyambere, kanini kandi gatatse amatara mu mabara atandukanye, gacuza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye.

Akabari gacururizwamo ibyokunywa bitandukanye, higanjemo ibisembuye, n'ibidasembuye, amarikeri n'izindi nzoga zipfundikiye.

Akabari kubatswe ku buryo bugezweho, gacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, harimo ibisembuye n'ibidasembuye, aho gatanga akazi ku bakozi batandukanye.

Inyubako zitandukanye, zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho abaguzi baza guhahira, ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Yiganjemo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, ndetse n'amafunguro.

Inyubako igezweho yubatswe ku buryo bwa kijyambere, itangirwamo serivisi zijyanye no gucumbikira abantu, kubaha ibyo kurya, n'ibinyobwa bitandukanye.

Inyubako nyinshi zitandukanye, zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho byorohereza abaturage kuza kuhahahira ibyo bakeneye.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ikanatangirwamo serivisi zitandukanye harimo nko gufura imyenda.

Inyubako zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho abaguzi baza guhahira ibicuruzwa bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere. Itangirwamo serivisi zitandukanye harimo gucumbikira abantu, kubaha ibyo kurya, n'ibyo kunywa bitandukanye.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere, itangirwamo serivisi zijyanye n'amacumbi, ibyokurya n'ibyokunywa bitandukanye.

Inyubako nini zitandukanye, zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho abaguzi baza kuhahahira ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako yubatswe ahantu h'amahumbezi itangirwamo serivisi z'ubucuruzi, zijyanye n'ibiribwa harimo imikati, amandazi atandukanye, n'ibyokunywa bitandukanye.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo amata, amaji yubwoko bwose, imigati mu bwoko butandukanye n'ibindi nk'imineke ibinyomoro n'amagi.

Iduka rinini ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyunyu, imiceri, za kawunga, amavuta yo kurya, ibirungo n'ibindi bitandukanye.

Isoko ry'ibiribwa ryubatswe ku buryo bwa kijyambere, ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, ahiganjemo: imbuto, imboga, imineke, n'ibindi.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bwa kijyambere, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo ibiribwa nk'ibirayi n'ibindi.

Inyubako nini igizwe n'imiryango myinshi. Yubatswe ku buryo bwa kijyambere. Icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, mu rwego rwo guteza imbere abayikoreramo.

Inyubako nini, yubatswe mu buryo bwa kijyambere, icururizwamo imyenda itandukanye, aho abaturage baza kuhagurira ibitambaro mu mabara yose bifuza.

Iduka rinini ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo: imiceri, umunyu, kawunga, ibikoresho by'isuku bitandukanye, amavuta, n'ibindi.

Inzu nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere itangirwamo serivisi z'ibijyanye n'ibyo kurya, n'ibyo kunywa, ku buryo uhafatiye ifunguro ashimishwa n'imiterere yaho.

Inyubako ishaje, icururizwamo serivisi zo gucumbikira abantu, no kubaha ibyokurya, n'ibyokunywa bitandukanye, kugira ngo bibafashe mu ngendo zabo.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo ibinyobwa n' ibiribwa nk' imigati, ikawa, amata n' ibindi...

Inyubako nyinshi zubatse iruhande rw'umuhanda, zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Aho byorohereza abaturage, kuza kuhahahira ibyo bakeneye.

Inyubako nini igizwe n'imiryango myinshi, yubatswe ku buryo bwa kijyambere, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, bigafasha abacuruzi kwiteza imbere.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere, itangirwamo serivisi zijyanye'iby'ubwiza nko kogosha imisatsi, kwisukisha, gukora inzara, n'ibindi.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo ibikoresho bya moto, amavuta y'ubwoko butandukanye, yo gushyira muri za moteri.

Inyubako zitandukanye zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho abaturage bajya guhahira serivisi z' ibyo bakeneye.

Ubucuruzi buciriritse, hacururizwamo impeta zitandukanye, amaherena y'ubwoko butandukanye, ni indi mitako ijyanye no kurimbisha imibiri y'abantu.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho abaturage baza guhahira, ibyo bakeneye muzima bwabo, bwa buri munsi.

Inyubako nini igizwe n'imiryango myinshi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, bikorohereza abaturage kubona ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi harimo amarangi y'ubwoko butandukanye, imisumari fera beto n'ibindi byifashishwa mu bwubatsi.

Inyubako nini, yubatswe ku buryo bwa kijyambere, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amarangi y'bwoko bwose, n'ibindi bicuruzwa bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ,byiganjemo iby'ikoranabuhanga na telefoni zitandukanye, ndetse n'udukoresho two mu rugo.

Inyubako nini kandi yagutse, icururizwagamo ibikoresho by'ubugeni harimo uduseke, imitako ibajwe mu biti, n'ibindi bikoresho byifashishwaga mumihango yo hambere.

Inyubako ya kijyambere yubatswe ku buryo bugezweho, icururizwamo serivisi zitandukanye harimo amacumbi, ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye.

Inyubako zitandukanye zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho bifasha abaguzi kubona ibyo bakeneye, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako nini icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ahiganje mu poroduwi z'inyange, harimo amaji, amata, za fanta, amazi n'ibindi.

Iduka rito ricuruza ibijyanye n'imirimbo, harimo amaherena y'ubwoko butandukanye, impeta, amasaro, imidari, n'ibindi bijyanye n'ubwiza.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bwa kijyambere, itangirwamo serivisi zbijyanye n'ibyo kurya, nibyo kunywa by'amoko atandukanye, harimo ibisembuye n'ibidasembuye.

Iduka ricururizwamo ibikoresho byiganjemo ibyo mu nzu, cyane cyane intebe, udutanda tw'abana, ameza, imisego, indobo ,amashuka n'ibindi.

Butiki icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, ndetse hakaba harimo n'amavuta yo kwisiga y'ubwoko butandukanye.

Inyubako nini ikusanyirizwamo umusaruro w'igihingwa cya kawa, nka bumwe mu buryo bwo gufasha abaturage kwiteza imbere no kubona isoko ry'umusaruro wabo.

Ibigo by'imari ni bimwe mu bikorwa remezo bifasha abaturage mu kubika no kugurizanya amafaranga kugira ngo biteze imbere abandi bazigame umusaruro wabo.

Inyubako iri ahantu hamahumbezi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo ibyo kurya n'ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bwa kijyambere, icururizwamo serivisi zitandukanye, harimo gucumbikira abantu, ibinyobwa n'ibiribwa.

Inyubako ikikijwe n'amashyamba, ubona ko ari ahantu hafite amahumbezi, hatangirwa serivisi zijyanye no gucumbikira abantu, kubagaburira no kubaha ibinyobwa bitandukanye.

Inyubako y'ubatswe ku buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho bikomeye, itangirwamo serivisi yo gucumbikira abantu no kubaha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere icururizwamo serivisi zitandukanye zibijyanye n'amacumbi, ibiribwa n'ibinyobwa.

Isoko riciriritse ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, ahiganjemo imbuto z'amoko atandukanye: harimo wotameroni, imineke n'izindi.

Inyubako nini yubatswe ku buryo bwa kijyambere, ubona ko icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho abaguzi baza guhahira ibyo bakeneye.

Ubucuruzi bw'amatungo magufi, harimo inkoko n'inkwavu ni bumwe mu bucuruzi butanga umusaruro ku bacuruzi babwo n'abaguzi bagahindukirwa, no kubona ayo matungo ku buryo bworoshye.

Ubucuruzi butandukanye, bwiganjemo imbuto ,harimo : imyembe ,amaronji, amacunga n'izindi . Ndetse n'ibikoresho twifashisha mu buzima bwa buri munsi, ni bumwe mu bucuruzi bworohereza abaguzi kubona ibyo bakeneye.

Iduka ricururizwamo ibijyanye n'ibiribwa, harimo: ibyokurya, n'ibyokunywa bitandukanye, nk'imigati, amata n'ibindi nkabyo.

Isoko rinini ryubatswe ku buryo bwa kijyambere, ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, aho abaricururizamo bibafasha kwiteza imbere.

Isoko rinini ryagutse ricururizwagamo ibicuruzwa bitandukanye nk'imyenda yo kwambara, ibiryamirwa, aho abaturage baza kubihahira ku buryo bworoshye.

Isoko rinini, ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo ibiribwa: nk'ibijumba, ibitunguru, imyunyu, amavuta n'ibindi bitandukanye.

Iduka riciriritse, ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, byifashishwa muzima bwacu bwa buri munsi, harimo: nk'ibikoresho by'abana, imiti y'amenyo n'ibindi bitandukanye.

Umusaruro w' imboga nka bumwe mu buryo bwifashishwa mu kurwanya imirire mibi ku muryango, kandi bugateza imbere abahinzi babwo.

Iduka rinini rya kijyambere ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, ahiganjemo amata, amaji y'ubwoko bwose, amabiskwi, n'ibindi byinshi.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo ibiribwa mu rwego rwo korohereza abarigana ,kubona ibyo bakenera.

Ubucuruzi buciriritse, ni bumwe mu buryo bwifashishwa n'abaturage, mu kwiteza imbere no kugeza ibiribwa binyuranye ku bakiriya babo.

Imboga za beterave ni zimwe mu mboga zikungahaye ku ntungamubiri imibiri yacu ikenera, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Zikarwanya n'imirire mibi ku bantu bakuru n'abana.

Isoko riciriritse ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda, ibikoresho byo mu nzu, ibiribwa, n'ibindi abaturage baza guhaha.

Isoko rinini ryubatswe ku buryo bwa kijyambere ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, bigafasha abacuruzi kwiteza imbere n'abaguzi bakoroherwa guhaha ibicuruzwa bakeneye.

Isoko riciriritse ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye aho higanjemo imyenda n'inkweto, abaguzi baza kugura ibyo kwambara.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, cyane cyane ibikoresho byo mu nzu, harimo ibiryamirwa amashuka, amarido, ibikoresho by'abana by'isuku, n'ibindi.

Ubucuruzi bw'imboga, ni bumwe mu buryo bwifashishwa n'abaturage baciriritse, kwiteza imbere bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo intoryi, imiteja n'ibindi.